Umubyeyi w'umu papa n'umubyeyi w'umu mama ndetse bari kumwe n'umwana, bicaye ku ntebe y'ubururu, undi yicaye ku rubaho yambaye bote z'umweru, afite ibitabo, ameze nkuri kwigisha uyu mu mama, ndetse uyu mumama ateruye umwana.

Umwana ari kuvoma amazi meza yambaye umupira w’umuhondo, ipantaro y'umukara afite akabido ari kuvomeramo amazi meza ku ivomero ryiza kandi rigezweho. Iri vomo rizana amazi meza ndetse rikoreshwa na buri wese.

Umubyeyi wambaye ibitenge birimo ibara ry'umutuku, uyu mubyeyi yicaye ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo dukenera byacu mu buzima bwa buri munsi, harimo iby'isuku ndetse n'ibindi twifashisha dukora iyo suku.

Inzu nziza irimo amabara y'umweru ndetse yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, iyi nzu irimo intebe ziteye mu buryo bugezweho kandi nziza, ziri ahantu heza hari amakaro ndetse hari n'amatara ari kwaka meza amurika akagaragara neza.

Abantu bato b'abanyeshuri, bambaye imyenda isa n'impuzankano. Aba banyeshuri bari mu gikorwa cyo kureba amenyo, bakoresheje uburoso bw'amenyo. Aba biragaragara ko bari kubyigishwa.

Muganga wari kumwe n’umukecuru bigaragara ko ari kumuha imiti, umukecuru afite igikombe cy'ikirahure mu ntoki kirimo amazi ndetse ari guhabwa amazi ngo anywe ibyo binini. Ni ibimufasha kumukiza, ndetse ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga byifashishwa mu buryo butandukanye, harimo intebe zicarwaho n'abarwaza cyangwa abarwayi ndetse harimo n'ibindi bikoresho, harimo imashini zipima uburwayi butandukanye, muri aha ngaha harimo n'intebe y'ab...